Umugore ahagaze hagati imbere y'abantu afite indangururamajwi mu kiganza ndetse n'urupapuro, uyu mugore yambaye amataratara.

Umugabo afite ikaramu mu ntoki ari kwandika ku gipapuro giteretse ku meza, undi yambaye umupira w'umweru n'ingofero, undi nawe afite urupapuro n'ikaramu mu ntoki.

Umugore ahagaze imbere y'abantu yambaye isaha ku kuboko afite indangururamajwi, ameza atwikirije ibitambaro birimo amabara umuhondo, ubururu n'icyatsi. ayo meza atetseho amacupa y'amazi.

Abantu baricaye bakoze uruziga, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro n'indangururamajwi. Umugabo umwe afite ikaramu mu ntoki, arunamye ari kwandika.

Abantu benshi bahagaze kumurongo w'imbere, umugabo umwe muri aba, yambaye ikoti risa ubururu, inyuma yaba bantu, hagaze abandi bantu batanu.

Umugore wambaye umupira w'ubururu n'ijire y'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki. Ahagaze imbere y'abantu benshi bose bambaye imipira y'imweru, harimo abagore n'abagabo.

Abagore babiri n'umugabo umwe baricaye ku ntebe z'imikara, imbere y'aba bantu hateretse indangururamajwi, inyuma yabo handitse ijambo Kigali yacu.

Ameza ateretseho amacupa y'amazi, telefone n'impapuro. Imbere yayo hicaye abantu batanu barimo umugore umwe.

Umugabo yambaye amadarubindi yifashe ku munwa, imbere ye hateretse ikayi n'icupa ryamazi, yicaranye n'undi mugore wambaye amadarubindi ufite n'ikaramu mu ntoki.

Abantu bicaye ku ntebe z'ibiti, imbere yabo hateretse ameza atwikirije ibitambaro by'umweru ndetse n'iby'ubururu, imbere y'aba bantu bicaye hahagaze undi mugabo uzamuye amaboko.

Abantu ni benshi, umugabo umwe yambaye ikoti n'amataratara yifashe kukananwa, imbere ye hateretse mudasobwa n'icupa ry'amazi.

Abantu benshi bari mu nama, umugore umwe yambaye ishati y'ubururu undi yambaye ikoti ry'umutuku ndetse n'amataratara, undi mugabo yambaye ikoti n'ishati y'umweru.

Abantu baricaye ari benshi, bamwe muri aba imbere yabo hateretse za mudasobwa n'amacupa y'amazi, umugabo umwe yifashe ku itama yambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi baricaye, bamwe bicaye imbere abandi bicaye inyuma, abicaye imbere bafite indangururamajwi imbere yabo, umugabo umwe yambaye ikoti, afite ikaramu mu ntoki, ari kwandika ku rupapuro ruri imbere ye.

Umugabo aricaye ku ntebe, yambaye ikote. Imbere ye ku meza harambitse mudasobwa n'icupa ry'amazi. Hirya ye hicaye abandi bantu.

Abantu benshi baricaye. Imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye: amacupa y'amazi, impapuro, na za mudasobwa.

Umugore wifubitse igitambaro, yiteze igitenge mu mutwe, yunamye ari kureba muri terefone, imbere ye hateretse ameza akikijwe n'abandi bantu, hariho impapuro n'amacupa y'amazi.

Abantu baricaye bamwe imbere abandi inyuma, ku meza hateretseho ikaye n'ikaramu, telefone n'amacupa y'amazi.

Umugabo yambaye ikote n'amataratara aricaye yateretse amaboko ku meza, undi afite mudasobwa imbere ye na we yambaye amataratara ari kureba mugenzi we.

Abantu ni benshi umugore wambaye ikoti rya karokaro yambaye n'amataratara, inyuma ye hari undi wambaye umupira w'umutuku na we yambaye amataratara.

Amabwiriza agenga abatanga serivisi za mobayiromane mu rwego rwo kurwanya koronavirusi agomba kuba yambaye uturindantoki n'agapfukamunwa, agomba gusiga byibuze metero imwe hagati ye n'umukiriya, ntiyemerewe gutanga telefone ye ayiha umukiriya ngo ashyiremo nomero ye cyangwa kwakira telefoni yumukiriya.

Umugabo yambaye ishati y'umweru n'ingofero mu mutwe y'umukara, afite terefone mu ntoki, inyuma ye hari amagambo yanditse ari yo Tekino.

Menyekanisha uyu munsi umusoro ku nyungu za bibiri na makumyabiri na gatatu, wishyure bitarenze tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa gatatu, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Kwigaragaza ku bushake. Harabura umunsi umwe. Garagaza imisoro utamenyekanishije mbere ya bibiri na makumyabiri na gatatu, ukuririrweho amande n'inyungu z'ubukererwe. Itariki ntarengwa ni makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abagabo baricaye bamwe muri aba bambaye imipira y'imikara abandi bambaye iy'imyeru, imbere y'aba bantu hagiye hateretse za mudasobwa.

Muributswa ko gaze iri kugurishwa amafaranga igihumbi na mirongo inani nane ku kiro kimwe, ubaye uhuye n'umucuruzi ari kuyigurisha ku mafaranga arenze ayo wabimenyesha RURA.

Umuhungu aricaye yambaye amataratara, umukufi mu ijosi, imbere ye hateritse mudasobwa ari kuyikoraho, hirya ye hicaye undi muntu wambaye ingofero y'umukara.

Umuhungu n'umugore umwe baricaye ku ntebe imbere yabo hari za mudasobwa, hagati yabo ha hagaze umugore uri kureba muri mudasobwa y'umwe muri abo.

Icyapa kiri mu mabara umweru n'umutuku, iki cyapa ni icya REG, cyanditsemo ijambo riranga amerekezo mu ibara ry'umukara ko ari icya Gikondo.

Moto iriho abantu babiri, umugore ari gutambuka mu muhanda w'abanyamaguru, afite igikapu ku rutugu, imbere hari icyapa kibuza abantu gukata mu ruhande rw'iburyo.

Igiti gishamikiyeho insinga nyinshi z'umuriro giteye iruhande rw'uruzitiro rwubakishije amabuye ndetse n'amatafari ahiye, munsi y'iki giti hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara azamuye ukuguru kumwe.

Ibitaro bya Kacyiru, ubuyobozi bw'ibitaro, inzu y'ababyeyi, aho bavurira indwara z'amenyo, guca mu cyuma, aho batangira imiti, aho batangira ibizamini, ubuvuzi bw'impinja.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba yambaye amataratara ndetse n'umwambaro w'akazi ufite amabara umutuku, umukara n'umweru.

Abapolisi babiri b'u Rwanda bambaye umwambaro w'akazi n'ingofero z'akazi, hagati y'abo bapolisi babiri hari umugabo wambaye ikanzu y'abasiramu n'ingofero.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba yambaye amataratara n'umwambaro w'akazi uri mu mabara umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Abagabo b'abagororwa, benshi muri bo, bambaye amakabutura, n'amashati, biri mu ibara ry'iroza. Abandi hirya bari gukubita ingoma.

Abagabo babiri bombi bambaye amataratara, umwe yambaye ikoti ndetse n'amapingu ku maboko, undi na yambaye umwambaro w'akazi afashe ukuboko k'uyu wundi.

Abagabo babiri bakora akazi ko kuzimya inkongi y'umuriro, bambaye umwambaro w'akazi n'ubundi bari kuzimya inkongi y'umuriro yafashe inzu y'ubucuruzi.

Abantu benshi, barimo abagore n'abagabo, barahagaze, bane bari inyuma. Inyuma y'aba bantu hari amadarapo abiri, rimwe ni iry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo afite indangururamajwi mu kiganza, yambaye isaha ku kuboko n'ishati y'umweru, ku mpande ze zombi hamwe hari umugore ahandi hari umugabo.

Umugabo ahagaze imbere y'abantu benshi azamuye ukuboko kw'ibumoso mu kiganza cy'iburyo afitemo indangururamajwi, undi mugabo yambaye ishati y'amaboko maremare yu'mweru n'ipantaro y'umukara.

Abagore baricaye bakoze uruziga, umwe yambaye ikoti ry'umukara n'igitambara mu mutwe cy'umweru, abandi bambaye imipira y'icyatsi. Aba bantu umwe afite urupapuro mu ntoki undi afite agakayi.

Urupapuro rw'itora. Itora rya Perezida wa Repubulika, bibiri na cumi na karindwi. Uru rupapuro ruriho abantu batatu; Habineza Frank, Mpayimana Philipe, Kagame Paul.

Abantu benshi bahagaze ku mirongo ibiri itandukanye, umwe muri aba bantu ni umugabo uhagaze imbere, yambaye ishati y'ubururu ndetse yahuje amaboko.

Ihuriro ry igihugu nyunguranabitekerezo, ry'imitwe ya politiki demokarasi, ubwumvikane n'ubwisanzure.

Nyakubahwa Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda azamuye ukuboko kw'iburyo yambayeho isaha. Inyuma ye hagaze abapolisi benshi bamwe bafite n'imbunda.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umukara, urunigi ndetse n'umwitero, imbere ye hari indangururamajwi, inyuma ye hari umugore wicaye afite ikayi mu ntoki.

Moto n'ebyiri zose zigiye zicayeho umuntu umwe, imwe muri izi yicayeho umuntu wambaye ijiri ndetse na kasike y'umutuku n'ikoti ry'umutuku n'ipantaro y'umuhondo.

Imodoka ntoya ikora akazi ko gutwara abagenzi. Ifite ibara ry'umweru, ikagira umurongo w'umuhondo mu ruhande. Yicayemo umuntu wambaye umupira utukura.

Moto iraparitse, yicayeho umuntu umwe, indi iriho abantu babiri iri kugenda. Utumodoka dutoya tugira amapine atatu, ni twinshi twose turasa ubururu.

Igare riraparitse, ritwaye umuzingo uri mu mufuka, hejuru y'uwo mufuka hateretse akenda k'umuhondo, inyuma yaryo hari gutambuka moto ihetse n'umuntu inyuma.

Abantu babiri bari kugenda mu mihanda y'abanyamaguru, umwe ari mu gice cy'ibumoso undi ari mu gice cy'iburyo, uyu muhanda uri gucamo imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'icyatsi.

Moto iriho umuntu umwe wambaye ijiri na kasike y'umutuku, iri kuva mu muhanda ijya aho izindi ziparitse. Bamwe bicaye kuri moto abandi barahagaze.

Amagare ni abiri, agiye ariho abantu babiri babiri, iruhande rwayo hari gutambuka igikamyo gisa umweru, gifite shitingi inyuma y'ubururu.

Moto irasa ubururu yicayeho umuntu umwe, inyuma harambitse kasike, indi ihetse abantu babiri, indi iri hirya iriho umuntu umwe.

Moto yicayeho umuntu umwe wambaye ijiri, kasike ku mutwe afite indi mu ntoki. Iyi moto ifite nimero ra, i zeru gatandatu kabiri ha.

Imodoka iri mu bwoko bw'igikamyo ifite amabara y'umweru, indi irasa umukara, indi itwara abagenzi ifite amabara y'ubururu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, byose biri kujya mu cyerekezo kimwe, ni igare, moto iriho abantu babiri, n'imodoka iri ibara ry'umweru.

Moto iriho abantu babiri bambaye kasike z'umutuku, uwicaye inyuma afite igikarito, imodoka yindi iri gutambuka hirya yabo.

Imodoka itwara imizigo igice cy'imbere irasa ubururu, icy'inyuma kiratwikiriye ari gupakiramo ibyo kunywa ndetse iruhande rwayo hari amakese menshi.

Imodoka itwara abagenzi iri mu mabara: ubururu, umweru n'umukara, yanditseho izina ry'umuhanzi Bruce Melody, imbere y'imodoka hari abamotari, umwe nta mugenzi atwaye undi atwaye umugenzi.

Imodoka ntoya yemerewe gutwara abagenzi, iri mu ibara ry'umweru ndetse ifite umurongo w'umuhondo kuruhande, iyi modoka iparitse mu cyapa.

Imodoka ebyiri zitwara imizigo imwe nta muzingo n'umwe itwaye indi itwaye umuzigo ndetse itwikirije shitingi iziritse.

Umuhungu arahagaze yambaye imyenda y'imukara, imbere ye hateretse umupira, abandi nabo bari mu kibuga hagati, harimo umwana muto w'umuhungu.

Abantu bambaye amajiri y'icyatsi bafashe icyapa kigaragaza ko imbere hari kamera ndetse hejuru y'icyapa bafashe hari ikindi kigaragaza ko nta kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Icyapa kiri mu mabara: ubururu, umweru, ndetse n'umuntu uri gutambuka; kiragaragaza ko imbere hari abanyamaguru bemerewe gutambuka.

Icyapa kiranga amerekezo kiri mu ibara ry'umweru, cyanditsemo akarere ka Karongi, iruhande rw'iki cyapa hari umurima.

Umugore uhetse igikapu imbere ku nda n'ikindi mu mugongo, ahagaze munsi y'icyapa kiranga amerekezo cyanditseho, murakaza neza muri Repubulika y'u Rwanda.

Umugabo ahagaze mu muhanda w'abanyamaguru, afite igikapu ku rutugu, hejuru inyuma ye hari icyapa cyanditseho murakaza neza muri Repubulika y'u Rwanda mu karere ka Rusizi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, Kiraranga amerekezo. Kiri ahantu mu biti. Cyanditseho ka, ka, cumi na kane, sa na ta.

Inyubako iherereyemo banki ya kigali, ishami rya giporoso. Imbere y inyubako haparitse moto zitariho abantu n'izindi ziriho abantu.

Umuhanda abanyamaguru bambukiramo, hari gutambukamo umunyeshuri ufite igikapu ku mugongo ndetse n'undi musore wambaye umupira w'ubururu.

Umuntu arahagaze mu muhanda w'abanyamaguru yambaye umupira w'ibara rya oranje imbere ye haparitse igare, moto iriho umuntu umwe.

Moto iri gutambuka iriho umuntu umwe wambaye jiri n'ingofero, inyuma yayo hari kuzamuka imodoka iri kugaragara igice cy'imbere gusa.